Aha naho, ndabona ari kwa muganga ariko mu barwayi barembye, hahandi bita emajensi. Kuko hari abaganga bateraniye ku barwayi bari kuvura, hari n'umurwayi mbona bacometsemo serumu. Hari na muganga nawe, waje gusuzuma umusaza uryamye ku gitanda.

Aha naho turahabona abagabo babiri umwe ari imbere undi ari inyuma ariko hagati bashyizemo undi muntu baramuryamisha bigaragare ko ari ingobyi bamuhetsemo muri bwa buryo bwa kera twakoreshaga bwo guheka umuntu umumujyana kwa muganga aha naho rero bigaragare ko bamujyanye kwa muganga mu gihe hatagera imodoka y'imbangukiragutabara.

Aha naho, biragaragara ko wagira ngo ni ku bitaro. Hateraniye abantu ndetse bari gusobanurirana. Ikigaragara cyo hahagaze umugabo, bigaragara ko ari gusubiza ibibazo yabajijwe. Ariko byanga bikunda, aha hantu haba ari kwa muganga kuko ndahabona inama nziza bari kugira urubyiruko.

Aha naho haragaragara abantu babiri bari guteranya ibintu bigiye bitandukanye bigaragara ko ari kwa muganga, ikigaragara cyo aba bantu bari guterateranya nyine ibyuma kugira ngo babyaze umusaruro kemikozi zabo bari gukora.

Aha naho habona abantu benshi bahagaze ariko imbere yabo hari hari umuganga ndetse ahagararanye n'umuntu uri kubasobanurira ibijyanye n'ibyo barimo basobanurirwa, kuko ikigaragara cyo ndabona ari muri laboratwari.

Aha na ho hari icyapa kigaragaza uko umuntu yakwirinda Malariya cyashyizweho na RSSB kuko ikigaragara hari hifoto, umumama uryamanye n'umwana we ku buriri, uburiri bukikijwe na supanete, impande y'iyo foto hari umugabo na we uri gusiba ibinogo by'amazi birekamo amazi, bigaragara ko ari kurwanya imibu, ya mibu itera Malariya.

Aha naho hari inzu nziza cyane. Inzu igaragara ko ikorerwamo akazi ka leta ha handi twita mu ma ofisi ndetse iyo nzu iteye mu majaride meza aconze neza ayikikijwe ndetse n'ibiti byiza kandi iyo jaride imeze neza, irimo indabo z'amoko yose kandi nziza.

Aha naho turahabona ibiganza bibiri, ikiganza kimwe kirimo urupapuro, ikindi kiri kutwereka ibiri muri urwo rupapuro bipfunyitsemo ariko ikigaragara cyo wagira ngo ni umuti nyarwanda cyangwa se umuvuzi gakondo.

Aha naho hari abantu bicaye ku murongo, ariko bigaragara ko ari ku kigonderabuzima. Hari imbere yabo hari umuganga uri kubigisha cyangwa se kubasobanurira gahunda zose uko zigiye kugenda. Inyuma ya muganga naho hari televiziyo abarwayi bicara bareba, mu igihe batarabona ababafasha cyangwa se abo bagana.

Ikigaragara cyo aha naho ni kuri centre de sante aho twita ku kigo nderabuzima, uyu murwayi cyangwa se umurwaza ari kureba muganga, amwitegereza neza yumva ibyo muganga ari kumusobanurira.

Aha naho ni mu bitaro kuko ikigaragara cyo hari abarwayi, hari inzitiramibu, hari amatara, kandi harasa neza, hari n'umuma wicaye mu kagare bigaragara ko arwaye, byanga bikunda aha ngaha ho ni ku kigo nderabuzima kuko bigaragara.